Aho babika imiti itandukanye， haba hafite isuku ihagije rwose，haba harimo n'amakaro，kugira ngo abakiriya baze bisanzuye.

Kwa muganga haba hariho abarwayi batandukanye, hari ababa barimo serumu kandi bakaba bari ku mwuka, abandi bakajyayo bagafata ibinini bagataha.

Kwa muganga niho twivuriza iyo twarwaye baratwandikira imiti tukajya kuyishaka muri farumasi nuko tukivura tugakira.

Ibinyamapfundo ni icyatsi kivamo umuti wa kinyarwanda, abavuzi ba gihanga bafite uburyo bagihuza n'indi miti, hanyuma bikavamo umuti ufasha abarwayi ku buryo bukomeye cyane.

Muri iki gihe hafi y'umuhanda haba hariho amajaride meza cyane, iyo hatariho inyubako haba harimo n'ibiti birebire bishobora kuba byavamo imiti ya Kinyarwanda.

Ibyatsi bivamo imiti myinshi, ihene zirabirya, ndetse bituma n'ahantu haba heza cyane, bigatuma umwuka uba mwiza; mbese bikaduha umwuka mwiza duhumeka.

Imiti ya kinyarwanda iva mu byatsi bitandukanye. Abaganga ba kinyarwanda babizoberewe hari imiti bavanga ikavamo umuti ufasha abantu.

Ibyatsi byinshi bitandukanye babitera nk'imitako, ariko abaganga ba gihanga baba bazi uko babivanga n'ibindi bitandukanye bakabibyazamo umuti wa kinyarwanda ufitiye akamaro abarwayi benshi cyane.

Insina z'ibitoki na zo zivamo imiti ya kinyarwanda, hamwe n'ibindi byatsi byose ibigufi ibirebire, ibyinshi biba birimo imiti itandukanye, Abanyarwanda rero bavura baba bazi uko babihuza bikavamo umuti mwiza.

Imiti ya kinyarwanda iva mu byatsi bitandukanye. Ni uko tuba tutabizi, ariko ibyatsi byinshi aba ari umuti. Abaganga ba gakondo rero, barabihuza, bikavamo umuti, ufitiye akamaro abantu benshi cyane.

Ibyatsi rero， ibyo ari byo byose biba bifite indwara bivura， ni uko tuba tutabisobanukiwe， ariko abaganga ba gakondo，baba babizi ku buryo bwa gihanga， kandi butandukanye.

Ubuvuzi bwa gakondo bukenera ibyatsi byinshi bitandukanye, abantu benshi ntabwo baba babizi ariko abaganga bo barabihuza bakabibyazamo imiti ivura indwara za kinyarwanda.

Imiti ya kinyarwanda， bayikura mu bisambu， cyangwa umuvuzi akayihinga iwe mu rugo， kugira ngo age ayibona bitamugoye.

Ibishihe nabyo iyo bifatanyije n'ibindi byatsi bitandukanye ,abaganga ba kinyarwanda bababazi neza. Bitanga umuti wa kinyarwanda .Uvura indwara za kinyarwanda.

Imiti ya kinyarwanda ihamurwa mu gisambu, hari n'abayitera mu ngo zabo kugira ngo bajye bayibonera hafi.

Iyo turi guhumeka dusohoraga umwuka mubi tukinjiza umwuka mwiza. Uwo mwuka mwiza twinjiza uba uturutse mu byatsi bidukikije hirya no hino.

Ibyatsi byose biba bifite indwara byavura ni uko tuba tutabisobanukiwe, ariko abavuzi ba gakondo bo baba babizi, nk'inturusu bashobora kuyivanga n'ibindi byatsi bigatanga umuti mwiza cyane.

Ibibonobono, imiyenzi, n’ibindi byatsi bitandukanye nk'ibidodoke, ibyo byose abavuzi ba kinyarwanda bafite uko babihuza， bikavamo imiti myiza itandukanye, yo guha abarwayi.

Imiti ya kinyarwanda rero iba mu gisambu buri cyatsi cyose kiba gifi akamaro n'indwara cyavura ni uko tuba tutabizi, ariko abaganga ba gakondo baba babizi barabihuza bikavamo umuti ufite akamaro kenshi cyane.